Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bumeze neza, ifite amarangi y'umuhondo, amatara ari kwaka, umuntu wambaye ishati y'umweru, akabati karimo ibikoresho byinshi cyane.

Kugira ugire umusaruro mwinshi cyane igihe wahinze, ugomba gushyiramo ifumbire rihagije, ukabivomerera, ukanabibagara. Mu gihe uteye ibigori, haranira gushyiramo ifumbire ry'umweru rituma ibigori cyangwa ibishyimbo bimera neza, bigatanga umusaruro mwinshi.

Umusaruro mwinshi uturuka mu kwita ku gihingwa wifashishije ifumbire ihagije ukitaho uko bikwiye, akabase karimo ifumbire ry'umukara kuzuye kadufasha kubona umusaruro mwinshi.

Inyubako nini cyane yubatswe mu buryo bwiza cyane iteye amarange y'umuhondo, ifite urugi rw'umuhondo, ishushanyijeho inka n'urunyanya, akabati karimo imiti itandukanye; iy'ubururu n'umutuku.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari meza, iteye amarangi y'umweru, parafo y'umutuku irimo akabati karimo ibikoresho byinshi, icy'umuhondo, icy'ubururu, umuntu wambaye ikanzu y'umweru.

Ubuhinzi bukomeje kuduha umusaruro igihe wabwitayeho ukabuha ifumbire rihagije ukabubagarira ukanabwuhira, ubutaka bunini cyane burambitseho imifuka myinshi minini iriho ibara ry'ubururu iri munsi y'igiti kinini cyane huzuyemo imyaka bapakiye.

Ubutaka bunini cyane burimo abantu benshi cyane abagabo n'abagore, abambaye umutuku, icyatsi, ubururu barimo bahinga ifumbire bazifashisha bashyira mu myaka kugira ngo ibahe umusaruro vuba.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bukomeye, isize irange ry'umweru, ifite parafo y'umutuku irimo abantu batandukanye abagabo n'abagore bari kuri mudasobwa irimo utubati tw'umweru.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo inyanya zitaratukura, harimo umugore uhetse igikoresho bifashisha bavomerera imyaka, yambaye umupira w'umukara.

Ubuhinzi bukomeje gutuma iterambere ry'umuturage ryiyongera buri munsi kandi n'iry'igihugu rikiyongera buri munsi, ubutaka bunini cyane buhinzwemo imyaka myinshi cyane, ibigori, ibiti, bibukikije.

Kugira ugire umusaruro mwinshi cyane ugomba kwifashisha ifumbire ry'amatungo cyangwa ukifashisha ifumbire y'inganda n'ifumbire ry'umweru ni ryiza cyane kuko rituma imyaka ikura vuba kandi tukabona imisaruro myinshi.

Ikoranabuhanga ni ryiza yaba mu buryo bwo guhinga nk'uburyo bwo kuvomerera ibimera tutifashishije intoki, nk'umurima munini urimo amashu ndetse n'imboga uri kuvomererwamo amazi.

Ubuhinzi bukomeje kuduha umusaruro twifashishije ibikoresho byabugenewe n'imiti yica udukoko kugira ngo imyaka imere neza, inyubako nziza cyane ifite amarangi y'umuhondo irimo utubati twinshi turimo imiti itandukanye yica udukoko.

Ubuhinzi witayeho bukiri buto, buguha umusaruro mwinshi cyane. Nk'ubutaka bunini burimo amashu meza cyane, abantu benshi cyane bambaye ubururu n'imituku n'ibiti bibakikije, bibaha umuyaga mwiza.

Ubutaka bunini cyane burimo abantu benshi cyane, abagabo n'abagore, abambaye umutuku, umuhondo, ubururu ndetse n'umukara, bakikijwe n'ibiti birebire bibafasha, mugihe bari guhinga bakabona umwuka mwiza.

Inyubako nini cyane ibitswemo ibikoresho byinshi cyane ibiri mu kabido k'umutuku, ubururu ndetse n'umuhondo, akabati kanini cyane karimo k'ububido bwinshi.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere, aho abahinzi bakoze ubushakashatsi basanga guhinga kijyambere bitanga umusaruro mwinshi cyane. Ubutaka bunini burimo abantu bari gucukura imyobo, abandi bashyiramo ifumbire, abandi bari gushyiramo imbuto, abandi basiba kugira ngo bazabone umusaruro mwinshi cyane.

Twese duharanire kwiteza imbere, dukunda umurimo. Ubutaka bunini cyane. Harimo umuntu wambaye imyenda y'umukara, n'inkweto z'umukara. Ari kuyora ifumbire yo kujyana mu myaka.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere abaturage ndetse n'igihugu cyacu, ubutaka bunini cyane buteyemo amashu, ibigori umuntu wambaye imyenda y'umutuku avomerera amashu kugira ngo tuzabone umusaruro uhagije.

Kugira ugire umusaruro mwinshi cyane kandi umeze neza ugomba guharanira nawe kuwitaho mu gihe uri guhinga wifashishije ifumbire y'amatungo cyangwa ukifashisha ifumbire y'imvaruganda, nk'isahane y'umukara irimo ifumbire y'umweru nyinshi cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bumeze neza, ifite amarange y'umuhondo, inzugi z'umweru, akabati k'umutuku, harimo ibikoresho bisa n'umweru n'ubururu.

Mu bituma tugira umusaruro mwinshi cyane n'ifumbire riza ari irya mbere, inyubako nini cyane irimo imifuka irimo ifumbire twifashisha igihe turi guhinga imyaka yacu umusaruro ukaza ari mwinshi cyane.

Ubuhinzi buri mu bimwe bituma iterambere ry'umuturage ryiyongera buri munsi, aho abona ibimutunga kandi agasagurira n'abatabifite. Ubutaka bunini cyane buririmo umuntu wambaye umweru n'umukara ari guhinga.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bukomeye cyane, ifite irangi ry'umuhondo, amatara meza cyane ari kwaka, akabati kabitsemo ibikoresho byinshi cyane, iby'umutuku, iby'umweru ndetse n'icyatsi.

Kugira ngo tubone umusaruro uhagije, muze twese duharanire gukoresha ifumbire ihagije ndetse tunakoresha n'imiti yica udukoko, kugira ngo tubone umusaruro mwinshi. Inyubako nini irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, imiti yica udukoko.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo insina zitareraho ibitoki, iruhande hari ishyamba rinini rikikijweho amabuye, ibigori biri haruguru y'insina.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage ubikoranye umuhate agashyiramo ifumbire, akavomerera, akabaga umusaruro uza buri munsi. Ubutaka bunini cyane burimo amabuye manini buteyemo ibigori n'imyungu.

Twese dukunde guhinga kijyambere kuko biduha umusaruro vuba kandi mwinshi, ubutaka bunini cyane burimo igihingwa cy'ibishyimbo bigufiya bifite uruyange byenda gutanga umusaruro bisasiwe n'ibyatsi by'umukara.

Ubutaka bunini cyane burimo ibiti byumye n'ibiti bihagaze, ibirebire, ibigufiya, biduha umwuka mwiza duhumeka, umubiri wacu ukagira ubuzima bwiza cyane.

Nutema kimwe utere bibiri, ubutaka bunini cyane burimo insina zo gutera ibirayi bihinzemo, ibyatsi byumye ndetse n'amakoma menshi cyane.

Ubuhinzi bukomeje kuduha umusaruro ndetse n'iterambere hagati mu gihugu. Nk'ibigori bihinzwe mu murima byinshi cyane bikikijwe n'imisozi miremire irimo ibiti byinshi cyane.

Muze twese dukunde gutera kijyambere kuko bitanga umusaruro umeze neza kandi vuba, ubutaka bunini cyane buteyemo amashu menshi cyane, busasiyemo ibyatsi byumye hariho ifumbire y'umukara.

Ibidukikije ni ingirakamaro kuri twebwe, kuko duha umwuka duhumeka ubuzima bwacu bukazira umuze, ibiti biduha inkwi ducana n'ubutaka bunini cyane burimo ibiti bigiye bitandukanye birebire n'ibigufiya.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, imboga zidufasha kugira ubuzima bwiza ziri mu murima munini, impande yawo hakikijwe ibiti byumye, haziritse itungo rigufi ihene.

Twese dukunda ubuhinzi kuko budufitiye akamaro muri rusangem, iyo witaye ku buhinzi ubona ibyo kurya ndetse ugasagurira n'abatabifite, ubutaka bunini cyane buhinzemo urusenda, intoryi burimo umuntu uri kubiba....

Kugira ngo ubone umusaruro mwinshi cyane, ugomba kwita ku gihingwa wahinze, ugashyiramo ifumbire ihagije, ukavomerera, ukabagara, kugira ngo umusaruro uze ari mwinshi. Ubutaka bunini burimo abantu bari guhinga.

Iyo witaye ku buhinzi ukabiha umusaruro uko bikwiye ukanabibagarira biguha umusaruro mwinshi cyane. Ibigori biri hamwe binini cyane bifite amasaro manini cyane bivamo ibyo kurya bigiye bitandukanye.

Ubuhinzi iyo ubwitayeho buguha umusaruro mwinshi cyane bityo iterambere ryawe rikiyongera ndetse n'iry'Igihugu rikiyongera, ugasagurira n'amasoko. Ubutaka bunini cyane, burimo ibitoki byeze bikomeye n'umuntu wambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro y'umukara.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere, yaba mu byo turya, cyangwa ibyo turya byubaka umubiri. Ubutaka bunini cyane burimo ingemwe z'imyembe, impande yaho hari umuhanda mugari abagenzi banyuramo iyo bagiye mu kazi.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage hamwe n'igihugu nk'ubutaka bunini cyane burimo igihingwa cy'ikawa kuko ikawa itanga umusaruro mwinshi cyane kandi vuba, ubutaka bunini burimo ibyatsi bisasiye ikawa.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane uhinzwemo imbuto harimo: ibinyomoro, amatunda, amapapayi, amaronji, hahagazemo umugabo wambaye ingofero n'undi usutamye uri gufata ku kinyomoro.

Kugira ngo umusaruro w'ubuhinzi uze ari mwinshi kandi wiyongere buri munsi tugomba gushaka imiti yica udukoko kugira ngo ikure neza, inzu irimo imiti y'ubwoko butandukanye iri mu macupa y'umutuku n'ay'ubururu.

Amatungo magufi akomeje guteza imbere abaturage, ikibuga kinini cyane kirimo inkoko nyinshi zitandukanye amasake, inkokokazi, umuntu wambaye imyenda y'umukara ari kugaburira inkoko ziduha umusaruro nk'amagi abiri....

Ubworozi bw'amatungo magufi ni bwiza cyane kuko bwororoka vuba bukaduha iterambere ryihuse, ndetse tukanaburya bigatuma umubiri wacu umera neza, ubutaka burimo udukwavu twinshi cyane, ak'umweru kamwe izindi zisa na mama wazo.

Duharanire kwita ku matungo magufi kugira ngo tubone umusaruro uhagije, ubutaka bunini cyane burimo ibyatsi byumye n'ibibisi, bikikije uruzitiro rw'ibiti byumye harimo inkoko y'umutuku yasinziriye.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere abaturage haba no mu gihugu, ubutaka bunini cyane burimo umuntu uri gutera ibigori ukikijwe n'ibiti binini cyane bimuha umuyaga bigatuma akora akazi neza.

Twese dukunde umurimo kuko udufitiye akamaro muri rusange, ubutaka buhinzwemo imyumbati n'insina zifite ibitoki bigiye kwera, umuntu wambaye imyenda y'icyatsi n'iy'umukara arimo ari gukata ibyondo.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage akarya, kandi agasagurira n'amasoko n'iterambere ry'igihugu naryo rikiyongera, ubutaka bunini cyane burimo abantu bari guhinga abagabo n'abagore bakikijwe n'ibiti birebire n'ibigufi.

Ubuhinzi bukomeje kuduha umusaruro nk'abaturage kandi tugasagurira amasoko n'iterambere ry'Igihugu rikiyongera nk'ubutaka bunini cyane burimo umuntu uri guhinga bukikijwe n'amazu meza cyane kandi menshi.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere abaturage ndetse n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ubutaka bunini cyane burimo avoka y'imbangurire igiye kwera, n'umuntu uri guhinga wambaye umupira w'umweru n'igitenge gitukura.

Gukorera hamwe biri mu bituma iterambere riza mu buryo bwihuse kandi bitavunanye. Ubutaka bunini cyane burimo abantu benshi bari guhinga, abambaye umuhondo, umutuku, insina zibakikije, ibiti birebire bibaha umwuka bahumeka, bigatuma bahinga neza.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere abaturage ndetse n'igihugu cyacu, ubutaka bunini cyane butewemo uruyuzi runini cyane rusakaje amabati y'umweru arimo umuntu wambaye ipantaro y'umweru.

Ubuhinzi bumeze neza nabwo butanga umusaruro mwinshi cyane nk'igihe wahinze ubutaka neza ugashyiramo ifumbire nyinshi, ubutaka bunini burimo umugabo uri guhinga akikijwe n'ibiti n'insina.

Ubuhinzi iyo ubwitayeho ukabukorera neza, ukabuha ifumbire ihagije, ukabubagarira, ukabuvomera, ubona umusaruro mu gihe gitoya, ubutaka buhinzwemo intoryi na avoka harimo umuntu wambaye umukara abibagarira.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere umuturage kandi n'igihugu cyacu kikiyongera ku bukungu. Ubutaka bunini cyane buhinzwe neza, harimo umuntu uri gutera imyaka, ukikijwe n'ibiti birebire.

Abashakashatsi bamaze kuvumbura ko atari ngombwa ko igiti cy'avoka cyerera hejuru cyane cyangwa gitinze, aho haje uburyo bw'imbangurire voka yerera hasi ukabona umusaruro vuba kandi mu gihe gito nk'ubutaka bunini cyane burimo avoka yereye ikiri hasi n'umuntu wambaye ingofero y'umukara.

Ubuhinzi iyo ubukurikiranye neza ukabuha ifumbire uko bikwiye ubona umusaruro vuba, ubutaka bunini cyane burimo insina ndende, abantu bari guhinga imyumbati ndetse banatera n'amateke.

Ubuhinzi iyo ubukoreshereje ushyizemo ifumbire ryinshi ubona umusaruro uhagije. Ubutaka bunini cyane buriho imisaruro myinshi, umuceri uri mu mufuka w'umweru n'abantu bambaye imyenda y'ubururu.

Kubera umusaruro dukura mu buhinzi guhinga bisigaye bifite agaciro kanini cyane, nk'umurima uhinzwe neza cyane urimo insina zifite ibitoki, abantu bari gutera imyaka babiri bambaye imyenda y'icyatsi.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, umugabo wambaye umupira w'umutuku inkweto z'umukara ufite isuka uri kugenda asubiranya imyobo yashizemo imyaka. Amateke, imyumbati, inyuma ye hari igiti kirekire, hakurya hahinze umuceri.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere abaturage, aho umuhinzi wese asigaye abona ibyo kurya mu buryo butagoranye, umurima munini cyane urimo abantu bari gutera imyaka ibyatsi by'amatungo, insina nini cyane n'ibiti bikikije uwo murima.

Ubutaka buhinzwe burimo umuntu wambaye umutuku, umukara n'umweru ufite isuka ari guhinga ukikijwe ibiti byinshi cyane bidufasha kuduha umwuka mwiza duhumeka umubiri wacu ukagenda neza.

Muze dukorere hamwe kuko abishyize hamwe ntakibananira, ubutaka burimo abantu benshi cyane bari gukora umuhanda, abambaye imituku, abambaye bote, ibiti byinshi cyane bibakikije, ibigori byumye ndetse n'ibyatsi bikiri bito.

Ubuhinzi witayeho neza ukabuha ifumbire ihagije, ukabumenera, ukabubagarira uko bikwiye, ukayifuhira ubona umusaruro mwinshi cyane, ubutaka bunini burambitseho ibirayi binini n'ibitoya byeze.

Umubiri wacu ukenera ibirinda indwara, ibitera imbaraga ndetse n'ibyubaka umubiri kugira ngo umubiri wacu ugende neza n'ubutaka bunini cyane buriho avoka nyinshi cyane iz'icyatsi biri mu makarito y'umweru.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Igishanga kinini gihinzwemo umuceri wayanze utari wuma, iruhande hakikije urutoki runini harimo ibiti. Inyubako zisakaje amabati y'umweru ziri mu rutoki.

Ubuhinzi iyo ubwitayeho ukabuha ifumbire ihagije, ukabubagarira, ukabuvomera ubona umusaruro mwinshi cyane. Urwanikiro ruriho abaturage benshi cyane bambaye icyatsi, ubururu, batonora ibigori babimanika.

Ubwanikiro bw'ibigori birunze hamwe, bimanitse ku biti, hahagazemo umugabo wambaye ingofero n'ikote ry'umukara, ishati y'umweru, uri kureba imbere. Inyuma ye hari ibindi bigori bimanitse.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere abaturage, yaba no mu gihugu bituma ubukungu bwiyongera buri munsi. Ubutaka bunini cyane burimo ibigori byumye, burimo n'ibyatsi bibisi, umugabo uhagazemo yambaye ishati y'umweru.

Inyubako nini cyane yateganyirijwemo gusarurirwamo, irimo imifuka myinshi cyane y'umweru, abantu benshi, abagabo n'abagore bambaye imyenda y'umukara n'umweru n'ubururu.

Ubuhinzi bukomeje kuduha iterambere buri munsi, ubutaka bunini cyane buhinzwemo ibirayi bitoshye, bimeze neza, ibifite uturabo tw'umweru, ibindi tw'umuhondo, bikikijwe n'ibiti byinshi cyane.

Ubuhinzi bukomeje kuduha umusaruro mwinshi cyane. Ubutaka bunini cyane, burimo igihingwa kimwe cy'umuceri, abantu benshi cyane, abari gusarura, abari guhinga, abikoreye imifuka y'umweru.

Urujya n'uruza rw'abantu baza mu isoko bazanye umusaruro utandukanye inanasi, amaronji imyembe n'amatunda n'imineke na pome, ni byiza cyane kuko bitugirira akamaro mu mubiri wacu bigatuma ubuzima bugenda neza.

Muze duharanire kwiteza imbere kuko ari ingirakamaro kuri twebwe. Inyubako nini cyane irimo imifuka myinshi iy'umuhondo, icyatsi, ubutanda, akabati ndetse inasakaye neza cyane.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage, yaba mu buzima busanzwe n'ubukungu bw'igihugu bukiyongera, ubutaka bunini cyane burimo imisozi myiza, ibigori bifite ifumbire bimeze neza n'abantu bari kubibagara.

Ubuhinzi bukomeje gutanga umusaruro mwinshi ku bahinzi, ubutaka bunini cyane burimo abantu benshi cyane basaruye ibigori, abambaye ubururu, umutuku n'amazu abegereye impande ateye ibyondo.

Urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye, bahuriye mu isoko, abagabo n'abagore bambaye umweru n'umutuku, bazanye umusaruro wabo kugira ngo babone amafaranga biteza imbere.

Iyo witaye ku buhinzi ubona umusaruro uhagije n'inyungu ikaza ari nyinshi cyane, nk'ubutaka bunini burimo ibigori byinshi cyane, umuntu wambaye ingofero y'ubururu imyenda y'umukara n'intebe ari kwicaraho.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere abaturage kandi bigaha n'umusaruro igihugu n'iterambere na ryo rikiyongera. Ubutaka bunini cyane buhinzwemo umuceri burimo abantu benshi: abagabo n'abagore bari kuwubagara.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere abaturage, yaba mu gihugu, umurima munini cyane uteyemo ibijumba, byera bisa n'umutuku, bikaduha umusaruro, iterambere ryacu rikiyongera.

Isoko ririmo urujya n'uruza rw'abantu, bazanye ibintu bitandukanye nk'ibijumba, ibitoki, ibirayi n'ibindi, bambaye imyenda y'ubururu, umutuku, baje gushaka amafaranga.

Ibidukikije ni ingirakamaro mu baturage, umurima munini cyane urimo ibiti birebire n'ibitoya, ibyatsi byumye birambitse hasi, ibiti bifite akamaro kuko biduha umwuka mwiza duhumeka.

Twese dukunde gukora kuko bidufitiye akamaro muri rusange. Tubona iterambere ryihuse kandi tugaha n'umubiri wacu bikamera neza. Ubutaka buhinzwemo: ibisheke, amashu, ibinyomoro, imboga, bidufasha gutuma umubiri wacu umera neza.

Umurima munini cyane urimo ibyatsi byinshi cyane, ibiti birebire, amateke, ibijumba, urimo inzu isakaje amategura, yubakishije amatafari ahiye.

Ibidukikije bifite akamaro kenshi cyane, aho biduha umwuka duhumeka tukabikoreshamo ibikoresho bigiye bitandukanye, nk'ubutaka bunini cyane burimo ibiti ducana, indabyo, imyeyo dukubuza.

Twese duhe agaciro ubuhinzi kuko ubuhinzi budufitiye akamaro, biduha umusaruro tukabona ibidutunga, kandi n'iterambere ryacu rigakura buri munsi. Ubutaka bunini cyane burimo insina, burimo n'ibishyimbo n'umuntu wambaye ipantaro y'ubururu.

Ubutaka bunini cyane burimo ibyatsi birebire n'ibigufiya, ibyo biti bituma tubona umwuka duhumeka mwiza, ubwo butaka burimo n'inyubako y'amategura, inzu iteye sima ifite inzugi z'ibiti.

Twese dukunde umurimo tubikore tubishyizeho umwete, kuko bizaduha umusaruro mu gihe gito. Ubutaka buhinze neza cyane, burimo ibigori bigiye kwera, ibiti bashingiriza ibishyimbo kugira ngo tubone umusaruro mwinshi.

Ubutaka bunini cyane burimo ibiti byinshi cyane, ibiri gukura, ibigufiya n'ibirebire n'igiti cyatemwe kizavamo inkwi zo gucanisha, harimo umuhanda mwiza cyane wo kugendwamo.

Ubutaka bunini cyane buririmo ibyatsi byinshi cyane n'itsina zeraho ibitoki turya kugira ngo tubone ubuzima bwiza, hateyemo na avoka nini cyane n'ibyatsi by'amatungo.

Ibidukikije ni ingirakamaro kuri twebwe, yaba n'inyamaswa kuko inyamaswa zimwe na zimwe ariho zitaha, kandi ibiti bikaduha umwuka duhumeka, tukabicana igihe biri ngombwa, tukagira ubuzima bwiza.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere abaturage, ubutaka bunini cyane burimo insina itoshye nini cyane, inzu isakaje amategura iteye sima.

Ubuhinzi bukomeje kuduha iterambere nk'abaturage kandi tugasagurira n'amasoko tukabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo, ubutaka bunini cyane buhinzemo amateke burimo n'insina zera ibitoki tukabirya n'ibiti birebire cyane.

Ubuhinzi bukomeje gutuma iterambere ryacu ryiyongera nk'igihingwa cy'ikawa kiduha umusaruro vuba, tugasagurira n'amasoko n'abatabashije kugihinga bakakibona nk'ubutaka bunini cyane burimo ikimera ibiti byinshi cyane.

Ubuhinzi witayeho neza na bwo buguha umusaruro mwinshi cyane ukabaho neza kandi ugasagurira n'amasoko iterambere ry'igihugu naryo rikiyongera nk'ubutaka bwiza cyane buteyemo intsina, imyumbati ndetse hanameze neza.

Ibidukikije ni ingirakamaro, yaba aho dutuye, cyangwa aho twiga, cyangwa aho dukora, kuko bidufitiye akamaro, biduha umwuka mwiza duhumeka, bikaduha n'umusaruro, ubuzima bwacu bukagenda neza.

Muze dukomeze kwiteza imbere mubuhinzi bw'iterambere ryihuta. Ubutaka bunini buhinzwemo igihingwa cya avoka gifite voka nyinshi: intoya, inini ndetse n'izikiri uruyange.

Ubutaka bunini cyane, burimo ibyatsi bigiye bitandukanye, ibigufiya, ibirebire ibibyibushye ndetse n'ibinanutse, igiti kinini cyaguye cyumye. Ibiti bifasha kubona umwuka duhumeka.

Ubutaka bunini buhinzemo igihingwa kinini cyane, gifite amashami maremare n'amagufiya, cyatanze umusaruro munini cyane, bituma iterambere ryacu riza ari ryinshi.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu hamwe n'abaturage bacyo, aho ubutaka bunini cyane burimo ibyatsi byinshi, ibinyomoro bikiri bitoya n'ibiti bibikikije.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage, aho buri kimwe cyose aba agifite ubuzima bwe bukagenda neza, ubutaka bunini cyane biteyemo igiti cya avoka yenda kwera, umuntu uhagaze ari kukireba.

Urujya n'uruza rw'abantu baza mu isoko bazanye ibiribwa bitandukanye, ibihiye ndetse n'ibisaba guteka, bidufasha gutuma umubiri wacu ugenda neza. Inyanya zitukuye ziri mu ibase y'ubururu.

Ubutaka bunini cyane buteyemo ibirinda indwara n'ibyubaka umubiri, intoryi, ibijumba, harimo n'amapapayi agiye kwera, akikijwe n'ibiti byo gucana ndetse n'ibyatsi by'amatungo.

Ubutaka bunini cyane burimo inyubako nziza cyane y'umweru, urugi rw'icyatsi n'amadirishya y'icyatsi, ubusitani bwiza cyane bufite isuku, indabo z'umutuku ndetse n'iz'umuhondo.

Kugira ugire ubuzima bwiza ugomba kurya ibirinda indwara, ibitera imbaraga, ndetse n'ibyubaka umubiri. Ihuriro ry'abantu benshi cyane baje mu isoko bazanye ibiribwa bitandukanye imiteja myinshi cyane ndetse n'imboga.

Twese muze dukunde ubuhinzi kuko budufitiye akamaro muri rusange; tubona ibyokurya umubiri wacu ukagenda neza tugasagurira n'abatabifite. Ubutaka bunini cyane buhinzwemo ibinyomoro byinshi cyane, imyumbati ndetse n'ibigori.

Ubuhinzi bufite akamaro ku baturage no guhinga igihingwa kigufiya kizana umusaruro vuba. Nk'umurima munini cyane urimo karoti, intoryi, ibijumba bizadufasha kugira ubuzima bwacu bugende neza.

Urujya n'uruza rw'abantu baza mu isoko, baza gushaka ibintu bitandukanye, isoko rinini cyane ririmo; imbuto, amaronji, amatunda, imyembe, inanasi, ridufasha gutuma umubiri wacu umera neza, ubuzima bukagenda neza.

Urujya n'uruza rw'abantu baza mu isoko bazanye ibisarurwa bakuye mu buhinzi, isoko rinini cyane ririmo umuntu wambaye inkweto zitukura, ibitunguru birambitse ku meza n'intebe y'umweru.

Umubiri wacu ukenera ibirinda indwara kugira ngo ubuzima bukomeze bugende neza, ubutaka bunini cyane bihinzwemo ibinyomoro bigiye kwera bikikijwe n'ibiti birebire bitanga umwuka mwiza duhumeka.

Iyo witaye ku buhinzi bwawe, ukabuha ifumbire ihagije, ukabubagarira, ukabwuhira, ukanabuvomera, buguha umusaruro mwinshi cyane. Ubutaka bunini buhinzwemo ibishyimbo n'imiteja n'abantu bari gusarura.

Ibidukikije ni ingirakamaro muri rusange, ubutaka bunini cyane burimo ibyatsi birebire, ibigufiya, ibibyibushye n'ibinanutse. Ubusitani bwiza cyane burimo indabo z'umuhondo n'iz'umutuku.

Inyubako nini cyane irimo ibiribwa bitandukanye bituma umubiri wacu umera neza n'ubutanda bunini cyane buriho amaronji menshi cyane, ayeze neza, atukuye n'adatukuye.

Umubiri wacu ukenera byinshi cyane kugira ngo umere neza kandi tugire n'ubuzima buzira umuze, ameza manini n'ibitebo birimo imineke myiza cyane ya kamara n'iya poyo turya kugira ngo umubiri wacu umere neza.

Umubiri wacu ukenera ibirinda indwara kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze bumere neza, ubutaka burambitseho intoryi, karoti ndetse n'ibitunguru, bituma umubiri wacu ugira ubuzima buzira umuze.

Kwihangira umurimo ni byiza kuko bituma ubaho neza kandi bimwe mu byo ukora hari igihe bikunganiye ku mubiri wawe. Nk'ubutaka bunini buriho umuntu uri gucuruza ibinyomoro, indimu, inkweto z'umutuku.

Ihuriro ry'abantu benshi bazanamo ibyo kurya bitandukanye harimo ibirinda indwara, ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'inyubako nini cyane irimo pome, amaronji, ibinyomoro n'ibikarito bibitsemo.

Ni ibyiza kwiharika kuko bituma utajya mu isoko guhaha cyane nko kuba waba ufite akarima k'igikoni ugateramo imboga uzajya urya kugira umubiri wawe ugire ubuzima bwiza, ubutaka bunini buhinzemo dodo, burimo abantu bambaye icyatsi n'umwana ufite imboga.

Muze twihangire umurimo, kugira ngo tubeho neza, kandi dufite ubuzima buzira umuze, n'ubutaka bunini cyane, buriho ibiribwa bigiye bitandukanye n'abantu bari kubicuruza intoryi, inyanya, imiteja ndetse n'ibitunguru.

Muze tugire isuku kuko isuku ari ingirakamaro, yaba aho tugenda, yaba aho turara, yaba aho dukora kuko ari akamaro kuri twebwe. Umuhanda mwiza uriho ubu busitani bwiza, burimo indabo nziza: indende, ingufiya, izibyibushye.

Umubiri wacu ukenera ibitera imbaraga, kugira ngo tubashe gukora indi mirimo uko bikwiye. Ubutaka bunini cyane buhinzwemo neza cyane, harimo imyumbati ikiri mitoya n'igiye kwera.

Uko dukomeje kwita ku buhinzi bwacu tubona umusaruro vuba kandi mwinshi umeze neza, isoko ririmo ibiribwa byinshi cyane bitandukanye nka karoti, imiteja, biraranmbitse ku meza.

Umubiri wacu ukenera bimwe mu mbuto kugira ngo ugire ubuzima bwiza, isoko rinini cyane ririmo ibicuruzwa bitandukanye, ibitera imbaraga ndetse n'ibyubaka umubiri. Umuneke uhiye cyane urambitse ku meza.

Ubuhinzi iyo ubukurikiranye ukabiha umwanya uhagije, ugashyiramo ifumbire ihagije, ukabumenera ukabwuhiragura, buguha umusaruro mwinshi cyane. Ubutaka bunini burimo umuntu uri gusarura ibinyomoro, yambaye umwenda w'umuhondo.

Ubuhinzi iyo ubishyizemo imbaraga nyinshi ugakoresha ifumbire ihagije ukayibagarira, ukayuhira biguha umusaruro mwinshi cyane. Inyubako irimo igitanda kirambitseho avoka nyinshi izitukuye n'izidatukuye.

Ubutaka bunini cyane, burimo inyubako nziza cyane ifite ibara ry'ubururu, amabati y'umutuku, n'igipangu gikomeye cyane, harimo n'ubusitani bwiza cyane, burimo indabo z'umuhondo ndetse n'iz'icyatsi.

Isuku ni nziza mu buzima bwacu yaba aho dutuye yaba aho dukora yaba aho tugenda, nk'ubusitani bwiza cyane burimo indabo zitukura iz'icyatsi na sima n'amabuye akikije izo ndabo kugira ngo zimere neza.

Igihingwa cy'ibishyimbo gifite akamaro, kuko kiduha umusaruro mwinshi cyane kandi kikatugirira n'akamaro mu mubiri wacu. Ubutaka bunini cyane burimo umuntu uhagaze, wambaye ingofero y'umutuku, akikijwe n'ibiti binini cyane, bimuha umwuka ahumeka igihe ari guhinga.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini uhinzwemo intoryi. Umuntu wambaye umupira w'umutuku, ikanzu y'umweru uhagaze mu ntogi, inyuma ye hari insina, iruhande hari ishyamba rinini.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo imboga dodo, indabo zifite ibara ry'umuhondo, igipangu cyubakishijwe amatafari atukura gifite irangi ry'umukara.

Muze twihangire umurimo w'ubuhinzi, kuko iterambere riza mu buryo bwihuse, ubutaka bunini cyane burimo, amatunda akiri matoya, umuntu uhagaze, yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara yubakira amatunda kugira ngo azere neza.

Ihuriro ry'abantu benshi bazana ibiribwa bitandukanye, ibirinda indwara, ibyubaka umubiri n'ibitera imbaraga, urujya n'uruza baza mu isoko baje gushaka ibitunga umubiri wacu. Isoko rinini ririmo pome, amatunda, ibinyomoro n'imyungu.

Ubuhinzi bukomeje kuduha iterambere muri rusange, ubutaka bunini cyane buhinzwemo ibihingwa bitandukanye nk'ibinyomoro, avoka, inanasi, ibyo byose bidufasha bigatuma umubiri wacu ugenda neza.

Ubutaka bunini cyane burimo ubusitani bwiza cyane, indabo z'umuhondo, iz'icyatsi, ibiti birebire biduha umwuka mwiza duhumeka, ubuzima bwacu bukagenda neza n'inyubako nziza cyane zikikije ubusitani.

Ubutaka bunini cyane burimo umuhanda mwiza, ibiti byiza birebire, ibigufiya, inyubako zubakishijwe ibyuma mumabara y'umukara n'umweru ndetse n'uturabo tw'umuhondo.

Twese duharanire kugira isuku yaba aho tuba cyangwa ku mibiri yacu kuko bidufitiye akamaro kanini cyane, ubusitani bwiza cyane burimo uturabo dutandukanye, uturabo tw'icyatsi ndetse n'utw'umutuku.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi baje mu isoko bazanye ibiribwa bitandukanye, harimo nk'ibiririnda indwara, ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri, isoko rinini cyane ririmo karoti, n'ibirayi n'imiteja.

Ubutaka bunini cyane burimo igihingwa cy'inyanya. Umuntu wambaye ingofero y'umutuku, ipantaro y'umukara, ukikijwe n'ibiti birebire bidufasha kuduha umwuka duhumeka igihe turi mu kazi kakagenda neza.

Igihingwa iyo ukitayeho ukagiha ifumbire ihagije, ukakibagarira gikura neza kikaguha umusaruro mwinshi kandi vuba, umuntu wambaye umupira w'umweru, ipantaro y'umukara, afite umusaruro yakuye mu buhinzi bwe.

Kugira umubiri wacu ugende neza, ukenera ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibidutera imbaraga kugira ubuzima bwacu bukomeze bigende neza. Nk'isoko rinini cyane ririmo imbuto, rikabamo ibirinda indwara n'ibyubaka umubiri nk'imineke, amaronji, ibinyomoro, karoti ndetse n'amatunda.

Ubutaka bunini cyane burimo igihingwa cya voka gisasiwe ibyatsi byumye. Igipangu cy'umweru kirimo insina ndende harimo ibitoki turya bituma umubiri wacu ugenda neza.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo inyanya, umugabo wambaye inkweto z'umukara, umupira w'umukara wanditsweho amagambo mu ibara ry'umweru, uri gusasira imyaka y'ibigori na karoti.

Muze twihangire umurimo kuko ari ingirakamaro kuri twebwe. Isoko rinini cyane ririmo ibiribwa bitandukanye, birinda indwara n'ibyubaka umubiri. Ubutaka buriho igitenge kiriho karoti imiteja na poni.

Urujya n'uruza rw'abantu baza mu isoko bazanye ibicuruzwa n'ibiribwa bigiye bitandukanye, harimo ibihiye n'ibidahiye, imiteja na karoti biri mu mufuka w'umweru.

Ubutaka bunini cyane burimo inyubako nyinshi z'ibiraro, ibiti birebire, ibitoya, ibibyibushye n'ibinanutse, bidufasha kubona umwuka mwiza duhumeka igihe turi mu kazi.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mugi cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo inyanya zitari zera hahagazemo abantu babiri, umwana ufite ibyatsi mu ntoki, umugabo wambaye umupira ufite amabara umukara, umweru n'umutuku, iruhande hari umurima munini uhinzwe utaraterwamo imyaka.

Twese muze twite ku buhinzi tubwiteho uko bukwiye, dushyiramo ifumbire, tububagarira, tunabuvomerera kugira ngo umusaruro uze ari mwinshi. Umurima munini uhinzwemo intoryi harimo umuntu wambaye ubururu uri kuvomerera.

Ubuhinzi bufite agaciro ku muturage kuko abona ibyo kurya kandi akabona n'amafaranga akemuza ikibazo runaka. Ubutaka bunini cyane, burimo umuntu uru kuvomerera ibigori bikikijwe n'ibiti birebire.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi. Umurima munini uhinzwemo urusenda rusasiwe ibyatsi byumye. Abantu babiri bari kuvomerera imyaka, ku ruhande umugabo uri kuza mu murima, ruguru ye hari insina.

Ubuhinzi bukomeje kuduha umusaruro mwinshi cyane. Ubutaka bunini cyane buhinzemo igihingwa cy'ibirayi gikikijwe n'imisozi miremire, ibyuma by'umweru bifite amapine y'umukara.

Twese muze twite ku buhinzi kuko umusaruro uza vuba igihe wabikurikiranye ukawitaho neza, umurima munini cyane urimo abantu benshi bari kuvomerera, abambaye umweru, abambaye umutuku n'ingofero y'umukara n'ibyatsi.

Muze twese duharanire kugira isuku, yaba aho tuba cyangwa aho twiga cyangwa dukora kuko isuku ari ingirakamaro ku mibiri yacu. Ubutaka bunini cyane buriho ivomero, hariho abantu bari kuvoma, abana n'abagore n'ibigori biwukikije.

Muze dukunde umurimo kugira ngo tubeho neza ubuzima bwacu bumeze neza, ubutaka bunini cyane buhinzemo ibihingwa by'ibigori, umuntu wambaye ijipo y'umukara, mupira w'umweru uri kuvomerera ibigori kugira ngo bikure neza biduhe umusaruro.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Umurima munini uhinzwemo ibigori, abantu babiri bari kwita ku bigori. Umugabo wambaye imyenda y'umutuku, afite isuka mu ntoki. Inyuma hari ibindi bigori bigiye kwera.

Ubutaka bunini cyane burimo imirima itandukanye, bukikijwe n'ibiti byinshi cyane, ibirebire n'ibigufiya bidufasha kubona umutuzo mu gihe turi guhinga, umusaruro ukaza neza.

Indinganire na zo ziri muri bimwe bituma tubona umusaruro mwinshi cyane, kuko imyaka iba ihinze neza. Umusozi muremure cyane uriho indinganire, n'amazu menshi cyane ay'umweru ndetse n'ay'umutuku.

Bimwe mu bihingwa duhingwa hari na bimwe byera mu ishusho bituma igihugu cyacu kigaragara neza nk'igihingwa kigufi cy'icyayi, umuceri bituma ubutaka bwacu bugaragara neza kandi n'umusaruro ni uko uza wiyongera umuturage agatera imbere ndetse n'igihugu kigatera imbere.

Ubutaka bunini cyane burimo imisozi myiza cyane itatsemo ibiti byiza, birebire n'ibigufi, ibibaya birimo umuceri mwiza cyane n'insina ziduha ibitoki turya ndetse n'ibiti ducana.

Ubutaka bukomeje kuduha iterambere ryinshi hifashishijwemo uburyo bwinshi, twahinzemo tukubakamo, ubutaka bunini cyane burimo amazu, ibiti birebire n'ibitoya bidufasha kuduha umwuka mwiza.

U Rwanda rw'imisozi igihumbi rufite ibiti byinshi cyane, harimo inyamaswa zituzanira ba mukerarugendo bakaduha amadovize, ubutaka bunini burimo ibyatsi byinshi cyane ibyumye n'ibitumye.

Ubutaka bunini cyane buri hasi n'imisozi miremire cyane irimo amazu menshi cyane n'ibiti birebire, bigufiya n'insina zera ibitoki tukarya, ubuzima bwacu bukagenda neza.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini uhinzwe kijyambere, hariho ibyatsi bibisi n'ibyumye, haciyemo imiringoti iteyeho ubwatsi bw'amatungo. Imigenda itwara amazi.

Iterambere rikomeje kwiyongera mu gihugu cyacu, aho ibikorwa remezo bimaze kuba byinshi nk'ubutaka bunini cyane burimo igihingwa kinini, umuhanda mugari uri kunyuramo abagenzi.

Ubutaka bunini cyane burimo indinganire, ibiti binini cyane, amazu menshi cyane, umunara abantu babaga imyaka kugira ngo tuzabone umusaruro uhagije.

Muze twese dukomeze guha agaciro ubuhinzi kuko tubona umusaruro uhagije, iterambere ryacu rikiyongera buri munsi. Nk'ubutaka buniini cyane buhinzwemo inyanya zimeze neza zikikijwe n'ibiti birebirire.

U Rwanda rw'imisozi igihumbi rukomeje kuba rwiza hakikijweho ibiti bitandukanye, ubuhinzi bukomeje kujya imbere, ibigori, ibishyimbo bihinzwe mu murima hepfo, hari inyubako isakaje amategura itewe irangi ry'umweru.

Ibidukikije ni ingirakamaro kuko biduha umwuka mwiza duhumeka ubuzima bwacu bukagenda neza, ubutaka bunini cyane burimo umuhanda mugari ndetse n'ubusitani bwiza cyane bukikijwe n'ibiti birebire n'ibigufiya.

Igihugu cy'u Rwanda kiri mu bihugu bifite ubutaka buhagije bw'imiturire cyangwa gushyiramo ibindi bikorwa remezo runaka. Ubutaka bunini cyane bwubatsemo amazu meza cyane burimo ibiti birebire, ibigufiya bitanga umwuka mwiza cyane.

Ubutaka bunini cyane burimo ibimera bitandukanye, insina nyinshi cyane, inyubako z'ibiraro, ibiti byinshi cyane, ibirebire, ibitoya, bidufasha kuduha umwuka mwiza cyane tukabona inkwi ducana igihe dutetse.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu, ikibuga kinini kiziritsweho ihene iziritse mu kiziriko cy'umweru, iruhande hari ibiti byumye byatemwe, imiyenzi iri inyuma y'amabuye.

Muze twese duharanire korora amatungo magufi kuko atanga umusaruro mwinshi kandi vuba, ikiraro kirimo ingurube iri kumwe n'utwana twayo twinshi cyane turimo twonka nyina.

Kwita ku itungo bituma rikura neza rikaguha umusaruro vuba kandi mwinshi, ubutaka burimo ibiraro by'ingurube, ingurube nini cyane iri kunywa amazi.

Ubworozi bukomeje kuduha iterambere mu gihugu cyacu, ubutaka bunini bwubatsemo ibiraro byinshi by'ingurube, harimo n'umukumbi wazo, isakaje amabati y'umweru, ikikijweho n'ibyatsi, bitoshye cyane.

Twese twite ku bworozi tubwitaho uko bukwiye, tubugaburira ku gihe, tubuha imiti yabugenewe, ikiraro kinini cyane cyubakishijwe ibiti, harimo inka iri kurya ibyatsi, harimo n'isasiyo yayo.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje guteza iterambere abaturage ndetse bagasagurira n'abatabifite, ubutaka bunini burimo amahene abiri, afite amabara y'umweru ari kurisha.

Amatungo magufi kugira ngo abeho neza ugomba kuyubakira ikiraro gikomeye cyane kugira ngo atazavamo akajya kwangiza ibidukikije, ubutaka bunini bwubatsemo ikiraro cy'ingurube burimo ingurube iryamye n'ibyatsi byumye.

Twese duharanire korora amatungo magufi kuko iterambere riza vuba yabo ku muturage kandi ugasagurira n'abatayafite. Ubutaka burimo ibiraro by'ingurube, n'ingurube nyinshi cyane zirimo zirya.

Dukunde ubworozi kuko bidufitiye akamaro kanini cyane, turazirya, turazigurisha igihe dukeneye amafaranga, ikiraro kinini cyane kirimo akana k'ingurube gasa n'umweru, kari kurya.

Ubutaka bunini cyane burimo ibyatsi byinshi, ihene ebyiri iy'umukara n'iy'umweru, agasima karekare n'ibiti birebire bitanga umwuka mwiza.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje kuduha umusaruro mwinshi cyane bityo iterambere ryacu rikiyongera, nk'inyubako nini cyane irimo ibiraro by'inkoko, amagi menshi cyane byubakishije ibyuma bikomeye cyane n'inkoko nziza cyane.

Ubworozi bukomeje gutanga iterambere ryinshi cyane ku muturage hamwe no mu gihugu, inyubako nini yubatsemo uruhongore irimo n'akanyana kari kurya ubwatsi busa n'icyatsi inaryamye ku cyarire.

Ubworozi bukomeje guteza imbere umuturage, yaba n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubutaka bunini cyane burimo inyubako bwubatsemo n'ikiraro k'ingurube n'abantu bari kugaburira itungo.

Ubworozi bukomeje gutuma iterambere ry'umuturage ryiyongera, kandi n'iry'igihugu na ryo rikiyongera. Ubutaka bwubatsemo ikiraro k'ingurube iri kumwe n'ibibwana bwayo ahantu irira.

Ubuhinzi n'ubworozi bukomeje guteza imbere umuturage ndetse n'Igihugu cyacu. Ubutaka bunini cyane bwubatsemo ikiraro cy'amatungo, buhagazeho n'umugabo n'umugore, umugore yambaye ijipo y'umukara, umugabo yambaye ishati y'umweru, ari kubaka ikiraro cy'inka.

Ubworozi bw'amatungo magufu bukomeje kuduteza imbere cyane, aho ikiraro cy' ingurube kiri kumwe n'utwana twayo twinshi cyane dufite amabara atandukanye.

Ubuhinzi ndetse n'ubworozi bikomeje guteza imbere umuturage, akabaho yibeshejeho neza byaba na ngombwa agasagurira n'abatayafite. Ubutaka buriho ikiraro n'inka ebyiri n'umuntu uyifasheho.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje guteza imbere abaturage. Ubutaka bunini cyane burimo amazu menshi cyane bukikijwe n'insina n'ibiti arimo umukumbi w'ingurube n'umuntu wambaye imyenda y'umweru.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje kutugirira akamaro kenshi cyane nk'aho tuyarya akaturinda mu mubiri wacu cyangwa tukabonamo amafaranga yo gukemuza ibibazo, ubutaka bunini buriho amahene, ay'umweru n'umukara n'aya kaki n'insina ndetse n'inzu.

Ubworozi bukomeje kuduha iterambere nk'ubworozi bw'inka buduha iterambere ryinshi kandi rikatugirira n'akamaro gatandukanye, riduha amata, bigaha umubiri wacu ukagenda neza ndetse tukanarigurisha tukabona amafaranga dukemuza ikibazo runaka, nk'ikiraro kirimo inka nini cyane.

Ubworozi ni bwiza cyane kuko buduha inyungu nyinshi cyane nk'inka iduha amata tukanywa umubiri wacu ukamera neza cyangwa tukagurisha tukabona amafaranga menshi cyane. Ikiraro kirimo inka y'umweru n'umukara harimo n'ibyatsi byumye.

Ubworozi bukomeje butugirira akamaro, nk'ubworozi bw'inka buduha amafaranga menshi cyane, tugakemuza ibibazo bitandukanye, tukanywa amata ku buzima bwacu bukagenda neza n'ubutaka bunini cyane burimo ikiraro, harimo inka y'umukara n'umweru.

Ubworozi bukomeje gutanga umusaruro ku muturage. Ikiraro kinini cyane kirimo isasizo ry'inka, inka nini cyane y'umukara iri kumwe n'akanyana kayo k'umukara karyamye.

Ubworozi bw'amatungo magufi buri muri bimwe mu bintu bitanga umusaruro vuba, kandi bikatugirira akamaro. Ubu ni ubutaka bunini bwubatswemo ibiraro by'ingurube, ingurube nini cyane iri mu kiraro iri kumwe n'utwana twayo.

Ubutaka bunini cyane burimo ibiti binini n'ibitoya bidufasha kuduha umwuka duhumeka, ubuzima bwacu bukagenda neza cyangwa tukabona n'inkwi ducana, burimo amatungo magufi, amahene y'umukara ndetse n'aya kaki.

Ubworozi bukomeje gutuma iterambere ry'igihugu ryiyongera; ubutaka bunini cyane bwubatsemo ibiraro by'ingurube, harimo ibyana by'ingurube bifite amabara y'umweru n'umukara biri kurya ibyatsi, harimo n'ibyatsi byumye.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutuma iterambere ry'umuturage ryiyongera, ubutaka bunini cyane bwubatsemo ibiraro by'ingurube, ingurube iri kurya ibyatsi, ikiraro kirimo ibyatsi byumye.

Kugira ubworozi buguteza imbere iterambere ryihute ugomba kubwitaho ukabwahirira neza ukabuha vitaminini kugira ngo bukure neza, nk'ikiraro kinini cyane kirimo inka y'umukara n'umweru iri kurisha.

Ubworozi bufite akamaro kanini cyane, aho tubujyana ku isoko tukabona amafaranga dukemuza ibibazo, nk'inka tukabona amata tunywa ubuzima bwacu bukagenda neza, ubutaka bunini bwubatsemo amazu buriho inka y'umukara n'umweru.

Twese duha agaciro ubworozi kuko ari ingirakamaro kuri twebwe kandi biduha iterambere ryinshi, ubutaka bunini bwubatsemo ikiraro cy'inka kirimo inka y'umukara n'umweru n'akanyana kako biri kurisha.

Twese duhe agaciro ubworozi kuko bitugirira umusaruro mwinshi kandi vuba. Ubutaka bwubatsemo ikiraro harimo ingurube ntoya iri kurya ibyatsi kandi inanywa amazi.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje guteza imbere abaturage ndetse n'Igihugu cyacu. Ubutaka bunini cyane bwubatsemo ibiraro by'ingurube, harimo ikibwana cy'ingurube, ibyatsi irya n'ifumbire yatanze,

Ubworozi bukomeje gutuma iterambere ryiyongera yaba ku muturage cyangwa mu gihugu kuko umuturage yorora agasagurira n'isoko, ikiraro kinini cyane kirimo inka hariho ihene y'umukara iri kurya.

Ubworozi bukomeje gutuma iterambere ryacu ryiyongera nko korora inka, ikiraro kinini cyane kirimo itungo rifite iherena, ikiziriko cy'umweru, ubwatsi iri kurya, ubwumye iryamaho n'ububisi iri kurya.

Umuhinzi akomeje gutera imbere abifashijwemo n'ubworozi bwe bw'amatungo, ubutaka bunini cyane buriho umugabo n'umugore n'umwana, begereye ikiraro kirimo inka n'ihene.

Ubuhinzi bw'imboga bukomeje gutera imbere mu gihugu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzemo imboga z'imbwija, ibinyomoro n'izindi zifite amabara y'umuhondo, ibisheke biri impande y'imboga, ubutaka butose.

Umubiri wacu ukenera ibitera imbaraga kugira ngo tugire imbaraga zo gukora akazi k'umurimo w'amaboko. Umurima munini cyane uteyemo imyumbati itoshye urimo ibisheke bikiri bitoya ndetse n'imyumbati igiye kwera.

Igihingwa cyose witayeho kikiri gitoya, ukagiha ifumbire ihagije kiguha umusaruro mwinshi cyane, iterambere ryawe rikiyongera ndetse ugasagurira n'abandi n'igihugu. Ubutaka bunini cyane burimo imyumbati myiza cyane ikiri mito.

Mu bihingwa duhinga, harimo ibyo duhinga bitugirira akamaro, bivamo ibintu byinshi cyane, nk'ibigori dukuramo ifu y'igikoma, akawunga, cyangwa tukanabiryamo impungure, ubutaka bunini burambitsemo impungure nyinshi.

Kwihangira imirimo mu buryo bwo guhinga nabyo biri mu gutuma tubona iterambere ryihuse, nk'ubutaka bunini cyane burimo igiti kirekire buhinzwemo urusenda rumeze neza, intoki z'umuntu ziri gukora ku rusenda.

Igihingwa kimwe gikomeza gutanga umusaruro uhagije kandi vuba, nk'igihingwa cy'ibirayi kiri mu butaka bunini cyane bigiye kwera, bifite uturabo tw'umweru, biteye ku murongo.

Iyo uhinganye imbaraga ugakoresha ifumbire ryabugenewe ubona umusaruro mwinshi cyane, ubutaka bunini cyane buhinzemo ibirayi bimeze neza, impande yaho hari ibyeze, ibinini n'ibitoya.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikibuga kinini kimanitsweho ibigori bifite amababi y'umweru, igiti na cyo kiziritseho ibigori, umucaca urambitseho ibibabi by'ibigori.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu, ubwanikiro bunini cyane burimo ibigori byinshi, bufite ihema ry'ubururu, ibyatsi bigufiya biri munsi y'ibigori.

Ubutaka bunini cyane burimo igihingwa kigiye kwera, ibiti bikikije umurima byinshi cyane, umuntu wambaye umuhondo, ingofero y'umweru n'ipantaro y'umukara, yambaye isaha.

Ubuhinzi witayeho ukabukorera isuku ihagije, ugaterera ku gihe, ugashyiramo ifumbire ihagije, ukavomerera, ubona umusaruro mwinshi cyane kandi vuba. Ubutaka bunini cyane buhinzwemo imyumbati itoshye ikiri mito.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuhinzi kandi n'Igihugu, ubutaka bunini cyane burimo ibigori byinshi bimanitse ku biti bigiye bitandukanye n'ibyatsi biri hasi.

Ubuhinzi iyo ubwitayeho, ugakoresha ifumbire ihagije, ukavomerera ndetse ukanabagarira neza, ubona umusaruro mwinshi cyane. Ubutaka burambitseho ihema ririho ibigori byumye kandi byiza.

Ubworozi bukomeje gutuma iterambere ry'umuturage ryiyongera kandi n'igihugu naryo rikiyongera. Ubutaka bunini cyane bwubatsemo ikiraro kirimo inka hariho n'umwana uri kugaburira itungo.

Ishyo ry'inka riri mu biraro, abantu benshi cyane bambaye umukara, inkweto z'icyatsi n'ingofero z'umutuku, bari ku butaka bunini cyane, bukikijwe n'ibiti birebire ndetse n'ibigufi.

Kwita ku bworozi bwacu bituma inyungu iza buri munsi. Nk'ubutaka bunini burimo ikiraro kirimo inka y'umukara n'umweru, abantu bambaye imyenda y'ubururu, inkweto z'umutuku, bari kwita ku nka bayitera amaherena.

Ubworozi bukomeje guteza imbere umuturage, ubutaka bunini cyane burimo ikiraro cy'inka, intsina nyinshi cyane zifite ibitoki turya bigatuma tugira imbaraga, tukita ku matungo yacu uko bikwiye.

Ubutaka bunini cyane burimo imisozi, ibiti binini cyane ndetse n'ibitoya n'ikiraro cy'amatungo umuntu wambaye ingofero n'inkweto z'umukara ari guha umuti itungo.

Ubworozi bukomeje kuduha umusaruro mwinshi cyane, nko kuduha amata tukanywa umubiri wacu ukagenda neza, tukagurisha, tukabona amafaranga, tugakemu ibibazo bitandukanye, nk'ubutaka bunini burimo amatungo, inka ebyiri z'umweru n'umukara n'abantu batandukanye.

Ubuhinzi n'ubworozi bikomeza kuduha umusaruro mwinshi iterambere ryacu rikiyongera buri munsi. Ubutaka bunini cyane burimo: umuhanda, umuntu wambaye imyenda y'umukara, bote z'umweru, inka ndetse n'ikinyabiziga.

Ubutaka bunini cyane burimo ibyatsi bwubatsemo ibiraro harimo ishyo n'abantu bambaye imyenda y'imituku, amapantaro y'umukara n'inyubako zikikije nziza cyane n'ibiti bitanga umwuka mwiza duhumeka.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje guteza imbere umuturage, aho ajyana mu isoko akabona amafaranga akemuza ikibazo, cyangwa akaba yanayarya ubuzima bwe bukagenda neza, ubutaka burimo abantu benshi bafite amahene, umuhanda mugari bari kugendamo.

Ubutaka bunini cyane burimo umuhanda mwiza, burimo ubusitani bwiza cyane, indabo z'umuhondo n'iz'icyatsi, abantu bari kumwe n'imbwa bambaye imyenda y'icyatsi n'umukara.

Ubworozi bukomeje kuduha umusaruro mwinshi cyane ndetse n'iterambere ryacu rikiyongera . Ubutaka bunini cyane burimo abantu bagiye batandukanye, ishyo ry'inka ziri kumwe n'abashumba.

Ubutaka bunini cyane burimo ibikorwa remezo, burimo ibiti byinshi cyane birebire, ibitoya, amatungo n'ikiraro kirimo umuntu uri kwita kuri iryo tungo, yambaye umwenda w'umweru.

Ubutaka bunini cyane, buriho ishyo ry'inka ndetse n'abashumba, impande yaho hari ibiti birebire, bidufasha kubona umwuka mwiza cyane, cyangwa tukanabicana, rimwe na rimwe igihe dutetse.

Ubworozi buteza imbere umuturage akagira inyungu nyinshi akabaho neza kandi agasagurira n'amasoko n'igihugu iterambere rikiyongera. Ishyo ry'inka riri mu kiraro, umuntu agaburira inka yambaye isengeri y'umweru.

Inyamaswa ziri mu bimwe bituma iterambere ry'igihugu ryiyongera kuko zidukururira abanyamahanga zikatuzanira amadovize bityo iterambere rikiyongera. Ubutaka bunini burimo ibyatsi birimo inkende y'umukara.

Inyamaswa ziri mu bituma iterambere ry'igihugu ryiyongera buri munsi, aho ba mukerarugendo baza baje kuzireba bakaduha amadovize iterambere rikiyongera. Ibyatsi byinshi birimo inkende y'umukara.

Inyamaswa zidufitiye akamaro kuko ziri mu bimwe bituma iterambere ry'igihugu ryiyongera buri munsi, nk'inkende n'ibindi bikurura ba mukerarugendo, bakatuzanira amadovize; bigatuma iterambere ryiyongera.

Ibyaremwe n'imana, bidufitiye akamaro nk'ibiti biduha umwuka duhumeka ubuzima bwacu bukagenda neza, inyoni ziraturirimbira tukumva turishimye, ubutaka burimo igiti kirekire, kirimo inyoni y'ubururu n'umukara.

Duhe agaciro inyamaswa kuko ziri mu bimwe bituma iterambere ry'igihugu ryiyongera buri munsi, yaba no ku muturage, nk'inyamaswa inkende y'umukara nini cyane yicaye mu byatsi na yo iri mu bituma iterambere ry'igihugu ryiyongera.

Ibidukikije bidufitiye akamaro muri rusange aho inkwi, tubonakwi zo gucana, ibiti bikaduha umwuka mwiza duhumeka, ibyo Imana yaremye harimo nk'inyoni zidufasha kumva amajwi meza cyane.

Inyamaswa zo mu gihugu cyacu zikomeje kutuzanira iterambere, aho abanyamahanga baza kuzireba, bakatuzanira amadovize iterambere rikiyongera, igiti kinini cyane kirimo inkende y'umukara n'umweru.

Inyamaswa zikomeje guteza imbere Igihugu cyacu hamwe n'abaturage bacyo, aho zituzanira Abanyamahanga bakatuzanira amadovize iterambere ry'igihugu rikiyongera nk'ubutaka bunini cyane burimo inkende y'umukara n'umweru n'ibyatsi byinshi cyane.

Ubutaka bunini cyane, burimo umuhanda mwiza, amazu meza, yubatse neza, afite amadirishya y'umweru, ubusitani bwiza cyane burimo indabo ndende, iz'umuhondo n'iz'icyatsi.

Ibyaremwe n'Imana bidufitiye akamaro kuko bidufasha muri byinshi, umurima munini urimo ibyatsi birebire n'ibigufiya, harimo inyoni iri kuguruka ifite amabara y'umutuku n'icyatsi n'ubururu.

Ibyaremwe n'Imana na byo biri mu biduha ibyishimo, nk'ubutaka bunini cyane burimo icyatsi cyami kirekire, hariho inyoni ivuga tukumva ari byiza cyane, isa n'umukara n'umutuku.

Inyamaswa zidufitiye akamaro kuko nazo ziri mu bituzanira iterambere ry'igihugu, nk'inkende iri hejuru y'amabuye, hasi harimo inyubako ifite amabati y'umweru ndetse n'ibiti byinshi.

Inyamaswa zifitiye akamaro igihugu cyacu, kuko zinjiza ba mukerarugendo bakatuzanira amadovize iterambere ry'igihugu rikiyongera, ubutaka bunini burimo ibyatsi byinshi n'inkende y'umukara n'umweru iri kumwe n'akana kayo.

Inyamaswa zikomeje guteza imbere Igihugu cyacu, aho zidukururira abakerarugendo bakatuzanira amadovize, ubutaka bunini cyane buriho inyubako yubatswe mu matafari ahiye, ariho inkende y'umukara iri kumwe n'umwana wayo.

Ibidukikije bidufitiye akamaro, nk'ibiti kuko biduha umwuka duhumeka ubuzima bwacu bukagenda neza. Ubutaka bunini cyane buteyemo igiti kirimo inyoni y'umuhondo n'umutuku, ifite n'ibara ry'umukara.

Ibidukikije bifite akamaro kuko biduha umwuka duhumeka, nk'ibiti byiza cyane biduha umuyaga tukumva turatuje, umurima munini cyane urimo ibyatsi, uriho inyoni y'umweru ifite amaso matoya.

Inyamaswa zikomeje gutuma iterambere ry'Igihugu ryiyongera, aho zikurura ba mukerarugendo bakatuzanira amadovize bityo iterambere rikiyongera. Umurima munini urimo ibyatsi birebire ndetse n'inyamaswa.

Ibidukikije byaremwe n'Imana na byo bidufitiye akamaro nk'ibiti biduha umwuka duhumeka, inyamaswa zivuga na zo bikatubera byiza, umurima munini cyane urimo inyoni y'ubururu n'umuhondo.

Inyamaswa ziri mubi bituma iterambere ry'Igihugu ryiyongera buri munsi, nk'ubutaka bunini cyane burimo ibyatsi biza byinshi, inkende y'umweru n'umukara iri mu muhanda w'umukara n'umweru.

Duhe agaciro inyamaswa kuko zifitiye igihugu iterambere ndetse n'umuturage n'inkende ni imwe mu nyamanswa zituma iterambere ry'igihugu ryiyongera kuko zidukururira abanyamahanga bakatuzanira amadovize iterambere rikaba ryinshi.

Ubutaka bunini cyane burimo ibiti birebire n'ibitoya, inyoni irimo ifite amabara menshi meza atandukanye, amabara y'umuhondo, n'ay'umutuku, n'ay'umukara, irimo irareba.

Inyamaswa ziri mu bimwe bituma iterambere ry'igihugu ryiyongera, aho zikurura ba mukerarugendo bakatuzanira amadovize iterambere ry'igihugu rikiyongera, ubutaka bunini cyane burimo igiti kirekire n'inkende y'umukara n'ibyatsi byinshi.

Ibikorwaremezo bidufitiye akamaro nk'imihanda myiza idufasha kugera aho twifuza igihe tugiye gukemura ikibazo runaka n'umuhanda munini urimo inkende, ukikijwe n'ibyatsi byinshi, ibiti n'amazu menshi ariho abantu.

Iterambere ry'igihugu ryiyongera buri munsi, bitewe n'inyamaswa dufite zitwinjiriza amadovize, zikuruye abanyamahanga, umuhanda munini cyane w'umukara, urimo amabara y'umweru, ukikijwe n'ibiti binini cyane.